Icyumba cy'inama cyicayemo abantu benshi intebe z'umweru bigaragara ko imbere hahagaze umumama n 'umupapa bari kugira icyo bababwira ku meza hakaba hateretseho amacupa y'amazi yo kunywa hejuru hakaba hateye irangi ry'umweru ibikuta biteye iranjye ry' umweru.

Icyumba k'inama kirimo abantu benshi, umwe akaba ahagaze imbere yabo ndetse icyapa kiri inyuma cyanditsemo amagambo menshi, mudasobwa ziri imbere y'aba bantu ziri kubafasha gukurikirana inama

abagabo umwe babiri batatu bane bicaye mu ntebe z'imikara ndetse na meza abateretse imbere ariho amacupa yo kunywa umwe akaba afashe indangururamajwi ndetse inyuma yabo hakaba hari icyapa cyanditseho amagambo mu rurimi rw'ikinyarwana ndetse n'ibirangantego by'igihugu hakaba handitse ho inama y'inteko rusange yabafatanyabikorwa b'akarere Gasabo.

Abantu umwe, babiri, batatu, bicaye babiri bambaye indorerwamo zabugenewe zo kureberamo, ndetse bigaragara ko bicaye mu ntebe z'umuka, imbere yabo hakaba hari ameza arambitseho ibitabo, ndetse n' amacupa yo kunyweramo amazi, mudasobwa bigaragara ko bo bari mu nama hari ibyo bari kuganiraho.

Icyumba cyagenewe inama, imbere hakaba hicaye abantu batatu bari kuganiriza aba bantu bambaye impuzangano y'imipira y'umweru, bakaba bicaye mu ntebe ziteye irange ry'umutuku, ameza y'umukara ateretseho n'ibyo kunywa. Inzu iteye amarange y'umweru bigaragara ko amatara arimo araka, imbere hakaba hari n'ibyapa byamamaza ibyo bari kuganiraho.

Abantu benshi bicaye mu ihema ritatse neza ndetse imbere yabo hakaba hari ameza ateye irangi ry'umutuku riteretseho amacupa arimo amazi, intebe zifunikishije ibitambaro by'umuhondo, bigaragara ko hari ibyo bitabiriye bari kumva.

Icyumba k'inama kirimo abantu bicaye benshi, bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho, ameza ashashweho ibitambaro by'umweru ndetse n'ubururu, bigaragara ko bari mu nama imbere hakaba hari umugabo uhagaze uri kubabwira ibijyanye n'inama, imeza ishansheho igitambaro cy'umweru giteretseho mudasobwa.

Abantu benshi bicaye mu ihema imbere yabo hakaba hateretse ameza atwikiriye igitambaro cy'umweru ndetse hakurya hakaba hari ibiti bigaragara ko ari igihe ikirere gishaka guhinduka bigaragara ko baje mu kirori.

Icyumba cy'inama bicaye ku buryo bw'umurongo, ameza asasheho ibitambaro by'umweru ndetse hejuru hakaba hari amacupa y'amazi, urukuta rwometseho amakaro y'umweru, bigaragara ko aba bantu bicaye hari ibyo barimo baraganiraho.

Abantu benshi bari mucyumba cy'inama, imbere hakaba hari ameza ateretseho ibyo kunywa amatara akaba ari kwaka bigaragara ko ari mugihe cya nijoro inyuma hakaba hari urukuta ruteye irange ry'umukara ndetse n'indabyo ziteretse hajuru y'aya meza.

Umugabo ufashe igikoresho cyabugenewe mu ikoranabuhanga rijyanye no kurangurura amajwi, yambaye ikote ry'umukara, isaha ku kuboko ndetse akaba ahagararanye n'umumama wambaye indorerwamo zabugenewe zo kureberamo n'ingofero, bigaragara ko hari ikiganiro barimo baratanga, inyuma yabo hakaba hari intebe ziri mu mahema zikaba zifunikishije ibitambaro byabugenewe mu gutaka intebe .

Umumama wambaye ishati irimo amabara y'umukara n'umweru, bigaragara ko imbere ye hateretse mudasobwa. Akaba afashe igikoresho cyagenewe kurangurura amajwi, inyuma ye hakaba hari icyapa cyanditseho arajibi ku rukuta ruteye irange ry'umweru, bigaragara ko hari icyo ari kubwira abamuteze amatwi.

Icyumba cy'inama kirimo abantu benshi ndetse ku meza hakaba hashashe ibitambaro byiza biteretseho amacupa y'amazi, hakurya hakaba hari icyapa cyerekana uburyo inama imeze ndetse n'igikuta giteye irangi ry'umweru, bigaragara ko ku meza hateretse mudasobwa.

Abantu benshi bigaragara ko bitabiriye ikirori bicaye munsi y'amahema ndetse n'abamama bari kwifotoza, bigaragara ko hatatse neza rwose, bakaba bicaye mu ntebe z'umweru ndetse n'imitako iri mu mabara y'ibendera ry'igihugu.

Abantu benshi bicaye mu ihema bigaragara ko harimo ingabo z'Igihugu n'abashinzwe umutekano, ndetse n'umugabo wambaye indorerwamo zo kurebera zabigenewe ufashe indangururamajwi, bigaragara ko hari ibyo ari kubwira abaturage. Hakurya hakaba hari inyubako yubakishije amatafari ahiye, ndetse n'igikoresho cyagenewe kurangurura amajwi.

Icyumba cyagenewe inama kicayemo abantu umwe, babiri, batatu nibo bari kugaragara, bigaragara ko imbere yabo hari ameza hateye irange ry'umutuku ibikoresho byabugenewe mu ndangururamajwi ndetse bicaye mu ntebe z'imikara.

Icyumba cy'inama cyicayemo abantu benshi, imbere hakaba hari ameza ateretseho amacupa y'amazi yo kunywa, hakaba hasasheho igitambaro cy'umukara, amatara akaba arimo araka ndetse ku bikuta hakaba hariho imitako igiye itandukanye.

Icyumba cy'inama, bigaragara ko harimo abantu benshi, ku meza hakaba hateretseho ibikoresho byagenewe kurangurura amajwi, bicaye mu ntebe z'umukara zegamirwa, hakurya ku gikuta hakaba hariho icyapa cyanditseho Kigali yacu ndetse ibikuta bikaba biteyeho amakaro asa neza, hakeye.

Umugabo wambaye indorerwamu za bugenewe zo kureberamo, ndetse wambaye ikoti ry'umukara imbere ku meza hakaba hateretse icyapa ry'amazi, bigaragara ko haribyo Ari kwitegereza. Ndetse n'inyuma harimo n'akandi bantu , amaze armbuyeho ibitambaro by'umukara bigaragara ko Ari igihe cya ni mugoroba.

Abagore babiri bicaranye ku ruhande rw'iburyo, bari kureba umugabo wambaye ikote ry'umukara uri imbere yabo. Bameze nk'abari mu nama kuko uwo mugabo ari kuvuga bakandika. Ku meza ari imbere yabo hari uducupa turimo amazi yo kunywa.

Abagabo benshi bicaye ahantu harambuye ibitambaro by'ubururu ndetse bakaba bafite indangururamajwi z'abugenewe, hejuru hakaba hari amatara rimwe, abiri, atatu ari kwaka ndetse n'ibiti ku mpande bigaragara ko bari mu nama.

Icyumba k'inama kirimo abantu benshi bicaye mu ntebe z'imikara, inzugi ziteye amarange y'umweru, ibirahure bibonerana, ibikuta biteye amabara y'umweru, umwe akaba ahagaze imbere yabo hari ibyo ari kubabwira, ndetse ku meza hakaba hateretseho amacupa y'amazi, mudasobwa n'ibindi bikoresho biri kubafasha mu nama yabo.

Abantu benshi bicaye mu nsi y'amahemba bigaragara ko baje mu kirori, imbere yabo hakaba hari ameza ateye irangi ry'umutuku, bakaba baharambitse ibikoresho bijya bibafasha mu itumanaho, ndetse bakaba bicaye mu ntebe z'imikara, n'ibitambaro by'umweru byabafashije gutaka aha hantu.

Umugabo wambaye ikote ry'umweru ufashe indangururamajwi imbere yabo hakaba hari ameza akozwe mu birahure, ndetse n'inyuma hakaba hari abandi bicaye mu ntebe z'imikara n'umupolisi w'umudamu umanitse ukuboko bigaragara ko hari ibyo bari kuvugaho bijyanye no kwamamaza.

Icyumba cyagenewe inama ndetse ameza asa umutuku, ku gikuta hakaba hariho ibirango by'ubururu ndetse n'amagambo y'umweru, hakaba handitsemo ngo " Kigali yacu, Kigali yawe", bigaragara ko bari kwiga uburyo ki Kigali igomba kuba icyeye, ku meza hakaba hateretseho indangururamajwi, amacupa y'amazi yo kunywa ndetse na mudasobwa.

Abantu benshi bishimye bigaragara ko baje kureba abahanzi, bamwe bicaye aho hantu hatwikiriye abandi bakaba bari imbere bishimye cyane bamanitse ibiganza.

Icyumba cy'inama cyicayemo abantu benshi bicaye ku ntebe z'umutuku, hejuru amatara akaba ari kwaka, hasi hafite ubururu bwinshi bwijimye ndetse bigaragara ko bari mu nama bayitabiriye ari benshi cyangwa se akaba ari mu rusengero baje gusenga.

Icyumba cy'inama cyicayemo abantu benshi, ameza y'umweru ateretseho n'ibyo kunywa ndetse n'ibitabo ndetse aba b'imbere bakaba bambaye indorerwamo zabugenewe zokureberamo, amatara akaba arimo araka, ibikuta biteye amarange y'umukara ndetse hakaba hakeye hasa neza.

Abantu benshi b'abapapa ndetse bigaragara ko bari mu cyumba cy'inama, imbere yabo hakaba hateretse mudasobwa n'amacupa y'amazi bakaba bambaye n'ibintu mu majosi bibemerera kwitabira iki gikorwa hakurya hakaba hari ibitambaro byabugenewe bituma urumuri rutinjira munzu.

Abantu benshi bicaye munsi y'ahantu hatwikiriye bigaragara ko hari ibyuma biteye irange by'umuhondo bifashe igisenge, aho barebera umupira bigaragara ko ahantu bicaye hateye sima y'umutuku.

Icymba cy'inama cyicayemo abantu benshi ndetse ameza akaba atwikiruije ibitambaro by'umweru, hakaba harimo umugabo umwe ufite indangururamajwi, bigaragara ko hari ibyo ari kubabwira, ibikuta biteye irange ry'umweru, ndetse hamanitsemo n'indangururamajwi nyinshi.

Icyumba cy'inama kirimo abantu benshi, bakaba bicaye mu ntebe nziza. Imbere hakaba hariho ameza ashasheho ibitambaro by'umutu ndetse n'amazi atereteseho. Imbere hakaba hari indangururamajwi yagenewe gutuma amajwi agera mu bantu benshi ndetse n'igikuta giteye irangi ry'umweru n'ibyapa biri imbere.

Inyubako ndende ikikijwe n'ubusitani bw'ibiti ndetse yubakishijwe amatafari ahiye, hejuru hakaba ari ibikoresho byagenewe mu itumanaho bituma itumanaho rigenda neza, ikaba itewe irangi ry'umweru ndetse n'ibishyushya amazi yo mu nzu, hejuru n'insinga z'amashanyarazi zizana amashanyarazi muri uru rugo, hakurya bikaba bigaragara ko ari imiturire myinshi ndetse n'igihe ikirere kiri guhindura gishaka kugusha akavura.

Umunara muremure wagenewe mu itumanaho ufite amarangi, umutuku n'umweru, muremure cyane, bigaragara ko ikirere kiri guhindura, gifite ubururu bwinshi n'umweru gisa nk'aho gishaka kugwisha akavura.

Inyubako isakaje amabati y'umutuku ikaba iriho ibyapa byinshi bigaragara ko ari ibyo kwamamaza ndetse n'urutsinga ruzana umuriro kuri iyi nyubako ndetse n'ibikoresho byagenewe kureba abantu ko bari gutambuka impande y'inyubako, hakaba hari na kandagira ukarabe iri hanze.

Abagabo umwe, babiri, batatu bombi bambaye udupfukamunwa bakaba bafite ibikore byagenewe ibikoresho mu ikoranabuhanga cyangwa se mu itumanaho, umwe akaba afite ibitabo biri mu ishusho y'umutuku ndetse bikaba bigaragara ko hari ibyo barimo bareba bari kwerekana.

Icyapa gifite ubuso bw'umweru amagambo y'ubururu ndetse nandi yanditse mu mabara y'umukara handitse ngo REB Rwanda Education Board bikaba bigaragarako ari icyapa cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi.

Abantu bambaye udupfukamunwa kandi bafite mudasobwa mu ntoki. Inyuma yabo hari inzu iteye irangi ry'umuhondo, iriho itara riri kwaka. Bameze nk'aho hari ibyo bajemo.

Abantu benshi bicaye mu cyumba kimeze nk'aho ari icy'ishuri, Mudasobwa imbere yabo bigaragara ko barimo bariga hakurya ku bikuta hakaba hateye irange ry'umweru ndetse n'ameza asa neza akoze mu mbaho.

Inyubako ndende igizwe n'ibyuma bazamukiraho bajya hejuru ndetse ikaba ikikijwe n'ibiti byinshi wagira ngo ni ishyamba, hakaba haparitse umumotari wakuyemo ingofero z'abugenewe z'ubwirinzi yicaye kuri moto itari kugenda bigaragara ko hari ibyo arimo aravuga.

Iminara umwe, ibiri, itatu, ine bigaragara ko ari iminara ishinzwe itumanaho mu kugira ngo rigende neza ndetse n'ibikoresho bifatikanya muri iri tumanaho byinshi cyane, ikirere kiri kugaragaza ubururu bwinshi n'umweru mugihe cya kumanywa.

Urukuta ruteye irange ry'umuhondo hakaba harimo ndetse n'amagambo yanditsemo mw'ibara ry'umukara MTN, ndetse n'abamotari baparitse hanze ndetse n'ipoto ryikoreye insinga z'amashanyarazi n'itara ryo ku muhanda.

Ipoto ryikoreye insinga z'amashanyarazi ndetse ndetse n'inyubako ndende iriho ibikoresho byagenewe mu gutuma itumanaho rigenda neza, inzu ifite amadirishya n'inzugi biteye irange ry'umweru n'inkuta ziteye irange ry'umuhondo ndetse n'umweru.

Ibiti birebire bikikije umuhanda ndetse hakaba hari n'urugo rw'ubakishije amatafari ahiye, mo imbere hakaba harimo inzu yo kubamo iteye irange ry'umweru ndetse muri uyu muhanda bikaba bigaragara ko ari uwo igitaka hakaba harimo n'imodoka, akazuba kari kwaka ikirere gikeye kimeze neza.

Umunara muremure umwe, ibiri, wagenewe kwikorera insinga zitwaye umuriro mwinshi z'amashanyarazi, ndetse ikirere kikaba kiganjemo ubururu bwinshi n'umweru bigaragara ko gikeye.

Ibiti ndetse n'ibyatsi byinshi, bigaragara ko hano hari amapoto yikoreye ibikoresho byagenewe gutuma abaturage babona umuriro, amapoto abiri ndetse n'agasanduku kari hasi kaba karimo ibikoresho by'amashanyarazi.

Umuhanda urimo abari gusunika amagare ndetse n'abari kurigendaho bigaragara ko hakurya hari ibiti ndetse n'amapoto yikoreye amatara yo ku muhanda ndetse n'urugo ruteye irange ry'umweru n'ubusitani bukikije uyu muhanda.

Ipoto ryikoreye itara ryo ku muhanda, ndetse n'insinga, hakurya hakaba hari ibiti byinshi, bigaragara ko ari igihe cy'igihu, ku muhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibyatsi, ndetse biragaraga ko ikirere kigiye kugwisha imvura.

Urugo rwubakishije amatafari ahiye ndetse n'ibyuma, n'amatara ari hejuru y'uru rugo ndetse n'ipoto ryikoreye amatara n'insinga zo ku muhanda, bigaragara ko ikirere kiri guhindura, akazuba kagiye kugwa.

Ibiti byinshi ndetse n'urugo rwubakishije amatafari ahiye, bigaragara ko hari n'amapoto yikoreye insinga z'amashanyarazi, amatara yo ku mihanda, mu gihe cya ku manywa akazuba karimo karaka ikirere gikeye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amapikipiki menshi n'abantu ndetse n'umusozi muremure urimo inyubako zigiye zitandukanye, iminara yagenewe kwikorera insinga z'amashanyarazi zitwara umuriro mwinshi, amatara yo ku muhanda bigaragara ko ari igihe cya kumanywa izuba ririmo riraka.

Abantu umunani bahagaze ku murongo umwe, mu gihe moto ebyiri zifite amabara y'icyatsi n'umukara zibahagaze imbere. Aha hantu hameze nk'aho bagurishiriza moto.

Abantu umwe, babiri, batatu, bane, umwe yambaye indorerwamo zabugenewe zo kureberamo ndetse n'icyerekana ko ari umuganga, bakaba barimo baragenda n'umumama uhetse umwana, hasi hakaba hateye sima, urukuta ruteye irangi ry'umuhondo hejuru ndetse n'icyatsi hasi.

Igikoresho cyagenewe mu kuzimya inkongi y'umuriro, gisa umutuku gifite umupira w'umukara, cyometse ku gikuta giteye irangi ry'umuhondo ndetse n'umuryango ukinguye uteye irangi ry'umuhondo, hasi hakaba hari amakaro y'umukara, bigaragara ko n'amatara arimo araka mo imbere muri iyi nyubako.

Imodoka nyinshi zimwe zihagaze, ndetse n'umuntu uri gukingura urugo ngo imodoka yinjire cyangwa isohoke, hakurya hakaba hari imiturire myinshi ku musozi, ndetse n'ibiti bikikije ahantu izi modoka zihagaze, n'urugo rwubakishije amatafari ahiye ndetse n'amabuye.

Abantu benshi bambaye amakanzu atukura ndetse n'ingofero z'umukara zirimo agahondo ,hagati y'abo hakaba harimo perezida paul kagame wambaye ikote ry'umukara ,ipantaro y'umukara ndetse inyuma hakaba hari amabendera y'igihugubakaba bahagaze ku ikirangantego cy'igihugu.

Abantu benshi bicaye mu busitani bw'ibyatsi ndetse imbere hakaba hari abandi bambaye impuzangano y'imfungwa bigaragara ko baje kuburanishwa, hakurya hakaba hari ibiti byinshi birebire bigaragara ko akazuba karimo kararenga ni mugihe cy'akagoroba.

Umugabo wambaye agapfukamunwa, impzankano y'imfungwa akaba afite n'ibitabo mu ntoki imbere ye hakaba hari ameza ateretseho indangururamajwi bigaragara ko ari mu cyumba kiburanishwa cyabugenewe.

Umusaza wambaye ingofero ndetse na karuvati y'umukara, ishati y'umukara, inyuma hakaba ari icyapa kigaragaza ko ari mu ibara ry'ubururu bwijimye, mu mugihe cya nimugoroba bisa nkaho hijimye cyane.

Umugabo wambaye ikanzu y'umutuku, mu imbere hakaba harimo n'akandi k'umukara karuvate y'umutuku, ishati y'umweru. Inyuma ye hakaba hari urukuta ruteye iragi ry'umweru, bigaragarako Ari umucamanza.

Icyumba cy'inama kirimo abantu benshi bambaye amakote, ndetse hakaba hari n'indangururamajwi mu nguni, bigaragara ko hari umugabo wicaye imbere yabo uri kumva ibitekerezo byabo, undi akaba ari kuvuga igitekerezo cye.

Abantu bicaye bari mu nama ndetse bigaragara ko ari mu biti hari amahumbezi, hakaba hari n'ibyatsi bicayemo. Hakurya hakaba hari amazu asakaje amategura, akazuba kakaba karimo karaka.

Abagabo babiri umwe wambaye indorerwamo zabugenewe zo kureberamo ndetse n'ikanzu y'umukara bigaragara ko ari umucamanza; ndetse n'undi wambaye impuzankano y'imfungwa n'isaha ku kuboko; bakaba bari kuganira ibijyanye n'uburyo ki baburana.

Umugabo wambaye ikanzu y'umutuku ndetse n'ishati y'umutuku irimo imbere uhagaze, ahantu inyuma hari urukuta ruteye irange ry'umweru, bigaragaza ko yasokoje, umusatsi akeye.

Umumama wambaye indorerwamo zabugenewe zo kureberamo, imisatsi y'umukara inyereye ndetse akaba yambaye ikanzu y'umutuku, inyuma ye hakaba hari urukuta ruteye irangi ry'umweru bigaragara ko ari umucamanza.

Urujya ni uruza rw'abantu bari kwamamaza umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu bakaba barimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba biganjemo abantu bambaye imyenda y'ibara ry'icyatsi, bari mu ma tente arimo amabara y'umweru, icyatsi n'umuhondo, bamwe bakaba bafite ibyapa biriho ifoto y'umugabo wambaye kositime byanditseho ngo tora, bakaba bacyikijwe n'ibiti byinshi ku musozi.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara, ndetse inyuma ye hakaba hari ishusho iri mu ibara ry'ubururu, imbere ye hakaba hari igikoresho cyagenewe mu kurangurura amajwi bigaragara ko hari ikiganiro arimo aratanga, ahantu ari hakaba hakeye amatara arimo araka.

Abagabo ndetse naba mama bambaye amakanzu y'umutuku ndetse nabandi bambaye amakanzu y'umukara bigaragara ko ari abantu bishimiye ko bashoje kwiga ndetse inyuma yabo hakaba hari ibiti ndetse akagoroba akazuba kakaba kari kurenga.

Umugabo umwe, babiri, umwe akaba yambaye indorerwamo zabugene zo kureberamo, akaba yambaye imyenda y'imfungwa n'undi akaba yambaye ikanzu y'umukara bigaragara ko bari mu cyumba cy'iburanishwa.

Umugabo wambaye ikanzu y'umutuku ndetse bigaragara ko ari umucamanza inyuma ye hakaba hari urukuta ruteye irange ry'umweru uhagaze asa nkaho yitegereza ibintu runaka.

Umumama wambaye indorerwamo zabugenewe zo kureberamo, ndetse n'ingofero hejuru irimo amabara y'umkara n'umuhondo, ikanzu irimo amabara y'umutuku n'umeru, akaba yambaye n'amaherena, inyuma hakaba hari urukuta ruteye irange ry'umweru.

Inyubako isakaje amabati atukura ndetse n'urugo rurerure rufiteho icyapa cyanditseho amagambo y'umukara, bigaragara ko ari igororero rya Rwamagana, mo imbere hakaba harimo ibiti birebire cyane ndetse uru rugo rufite urugi ruteye irangi ry'umukara rukozwe mu byuma.

Abantu bashinzwe kuzimya inkongi y'umuriro ndetse n'abaturage bari kwerekera uburyo ki babigenza bari kuzimya inkongi z'umuriro, hakurya hakaba haparitse imodoka zabo ndetse n'iz'abapolisi n'ibiti bikikije umuhanda.

Abapolisi babiri bambaye muzankano ya gipolisi imbere yabo bakaba ari ipikipiki yabo bagenda hakurya hakaba hari inyubako ndende iteye irangi ry'umuhondo, ndetse n'indi nyubako byeraranye ifite amabati y'ubururu cyangwa icyatsi hakaba hari icyapa cyanditseho ngo gudurifu mu rurimi rw'icyongereza.

Umuhanda wa kaburimbo ndetse n'ubusitani bwo ku muhanda, hakurya hakaba hari umugabo umwe n'umupolisi, bigaragara ko bari kugenda ndetse n'inyubako ifite amadirishya ateye irangi ry'umukara, ibirahuri byijimye, amatafari ahiye, bigaragara ko akazuba kari kwaka, ikirere gikeye.

Igikoresho cyagenewe mu kuzimya inkongi y'umuriro bigaragara ko kibitse kurukuta ruteye irangi ry'umweru, hasi hakaba hari amakaro y'umweru ndetse n'umupira ucometse iki gikoresho bigaragara ko ari igihe amatara arimo araka muri iyi nyubako.

Imodoka ndetse n'amapikipiki y'abapolisi. ndetse na abapolisi bari mu modoka, ifitemo amaragi y'umwreru n'umukara hakaba handitseho na police. Hakurya hakaba hari ishyamba rigizwe n'ibiti byinshi, ndetse n'ibyatsi by'ubusitani.

Abantu bicaye mu matsinda begereye akameza gafite ibitambaro by'icyatsi byateretsweho amashakoshi, udutabo, amacupa y'amazi ndetse na mudasobwa bari impande y'idirishya rifite amarido asize ibara ry'igitaka.

Igikoresho cyabugenewe mu kuzimya inkongi y'umuriro giteye irangi ry'umutuku, umupira w'umukara giteretse ahantu inyuma y'urukuta rusa umukara bigaragara ko kitarakoreshwa kiziritse neza.

Inyubako ndende igeretse rimwe hasi hakaba haparitse imodoka, umupolisi ndetse n'umumotari inyubako ikaba isakaje amabati y'icyatsi hakurya bikaba bigaragaza, igihe cya mugitondo akazuba katararasa neza.

Imodoka ebyiri ziri kubisikana imwe iteye irange ry'umukara indi akaba ari iya polisi iteye umukara n'umweru, ubusitani, igiti cy'umukindo ndetse zikaba ziri kugenda mu muhanda wa kaburimbo igihe akazuba karimo kararenga.

Perezida Paul Kagame yamanitse ikiganza yambaye indorerwamo zo kureberamo, ndetse ku ruhande rwe hakaba hari amabendera y'umuryango wa efupeyeri, bigaragara ko arimo ariyamamaza.

Perezida Paul Kagame yambaye indorerwamo zabugenewe zo kureberamo ndetse ikote ry'umukara inyuma ye hakaba hari ibiti akaba ari guseka igihe cya kumanywa akazuba bigaragara ko kari kwaka ndetse bigaragara ko arimo aragenda.

Icyumba cyagenewe inama kirimo abantu benshi, imbere yo ku meza hakaba hateretseho mudasobwa ndetse n'indangurura majwi zagenewe kurangurura amajwi, bigaragara ko bari gukurikirana ibiganiro byo mu inama.

Abantu benshi bigaragarako perezida Polo Kagame yicaye imbere yabo yambaye ishati y'umweru n'indorerwamo zabugenewe zo kureberamo, mu gihe cy'umugoroba bigaragara ko bamwishimiye har'ibyo ari kubambwira afashe indangururamajwi mu ntoki ze.

Abantu, umwe, babiri, batatu, bane, aho umwe yahagurutse afashe indangururamajwi yabugenewe mu kurangurura amajwi, bakaba bicaye mu ntebe z'imikara, ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru, hakaba hateretseho amacupa, hejuru hakaba hari icyapa, bigaragara ko ari ishyaka riri kwiyamamaza.

Abantu benshi bicaye bumva ibyo babwirwa imbere yabo hakaba hahagaze abantu batatu aho umwe mu mugongo yambaye umupira wanditseho ngo indi ntambwe bigaragara ko hari ibyo bari kubwirwa bijyanye no gutera intambwe mu kwiteza imbere.

Abamama umwe babiri batatu ndetse umwe yambaye indorerwamo zabugenewe zo kureberamo, indangururamajwi imbere ye ndetse inyuma hakaba hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo y'umweru bigaragara ko hari ikiganiro ari gutanga.

Icyumba cy'inama kirimo abantu benshi bicaye mu ntebe z'umweru bigaragara ko ari igihe cy'umugoroba amatara ari kwakamo ari make, bigaragara ko bose bafite ibyo kwandikamo ibitabo ndetse imbere hakaba hicaye umukozi w'ubugenzacyaha.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara ishati y'umweru karuvati irimo aratandukanye, inyuma ye hakaba hari amabendera menshi y'amoko yose, akaba yitwa habyarimana wahoze ari perezida w'igihugu cy'u rwanda mu myaka yashize.

Imodoka ndende yagenewe gutwara imizigo iremereye iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo ndetse n'akayira k'abanyamaguru karimo umuntu, ikiraro cyambuka kiva mu muhanda kijya mu baturage hakurya y'umuhanda hakaba hari ibiti birebire byabugenewe kurinda umuyaga cyangwa se kurinda isuri nyinshi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amapikipiki ndetse n'imodoka ndende n'ibindi binyabiziga biri kuza, amatara ku muhanda ndetse n'iminara yagenewe kwikorera insinga z'amashanyarazi zitwara umuriro mwinshi hakurya hakaba hari umusozi urimo ishyamba ryinshi, bigaragara ko ari mu mujyi wa Kigali.

Umuhanda wa kaburimbo, ugaragaramo ipikipiki iriho ndetse n'uyitwaye, akaba yambaye n'ingofero y'ubwirinzi yabugenewe, hakurya hakaba hari ibyapa byo ku muhanda, ndetse n'ibiti birebire, n'inyubako ikikijwe n'ibi biti.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo akamodoka Gatoya kagenewe gutwara imizigo, hakurya hakaba hari izindi modoka zitwara imizigo minini ziparitse, ibiti bikikije umuhanda, ikiraro cyambuka kiva mu muhanda kijya mu baturage ndetse n'umuyoboro munini utwara amazi.

Igihe cya nimugoroba, imodoka zitwara abagenzi ku buryo bwa rusange zirahagaze, amatara arimo araka, ndetse n'abantu barahagaze, hakurya hari umusozi uriho ishyamba ryinshi, bigaragara ko ari igihe cy'akagoroba, butangiye kwira.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikinyabiziga ipikipiki gihetse n'umugenzi bombi bakaba bambaye ingofero zabugenewe mu bwirinzi ndetse n'urugo ruteye irange ry'umweru rukikije uyu muhanda amatara yo ku muhanda ndetse bikaba bikaba bigaragara ko hari ibiti byinshi bikikije umuhanda

Imodoka ndende iteye irangi ry'umweru bigaragara ko yagenewe gutwara imizigo iremereye, iri mu muhanda wa kaburimbo ukikijwe n'imihanda ndetse hari n'icyapa kigaragaza ahari akabari. Hari kandi amatara yo ku muhanda n'imiyoboro itwara amazi aturutse mu baturage.

Imodoka iteye irange ry'umweru yagenewe gutwara imizigo iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo ndetse n'amapikipiki abiri ndetse n'abantu bari kugenda mu kayira k'abanyamaguru umwe akaba yikoreye imifuka ibiri, ndetse n'umuyoboro wagenewe gutwara amazi, hakurya hakaba hari ibiti bikikije umuhanda ku manywa akazuba kari kwaka.

Umuhanda urimo imodoka ebyiri, imwe ikaba iteye irangi ry'umutuku, ikaba yaragenewe gutwara imizigo, umucanga n'amagaraviye, hakurya yaho hakaba hari ibiti birebire bikikije umuhanda ndetse n'ikiraro cyambuka kiva muri uyu muhanda kijya mu baturage n'akayira ndetse n'umuyoboro wagenewe gutwara amazi.

Imodoka ebyiri zagenewe gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange, zifite ibirahure by'umukara ndetse n'amabara agiye atandukanye y'umweru n'ubururu bigaragarako zihagaze zitegereje abagenzi.

Imodoka nini yagenewe kwikorera imicanga, amabuye iri mu muhanda wa kaburimbo ikaba igeze ku kayira k'abanayamaguru ndestse n'umunyegare imbere, bigaragara ko ari igihe cya kumanywa, hakurya hakaba hari ibiti birebire ndetse n'inyubako nyinshi, amatara yo ku mihanda ndetse n'ibimenyetso by'umuhanda n'akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ebyiri ndende zagenewe kwikoreraa imizigo iremereye nk'amasima n'ibindi, hakurya hakaba hari ibiti bikikije uyu muhanda, umuyoboro wagenewe gutwaramo amazi ndetse n'akayira k'abanyamaguru, bigaragara ko ari ighe cya kumanywa akazuba kari kwaka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ifite irangi ry'ubururu ihetse imizigo, imbere yayo hariho igare ndetse n'ipikipiki. Iruhande rw'imihanda hateyeho ibiti birebire.

Imodoka yagenewe kwikorera imizigo myinshi kandi iremereye, hakurya hakaba har'ibiti iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ndetse n'umuyoboro wagenewe gutwara amazi akayira k'abanyamaguru bigaragara ko akazuba kari kwaka mu gihe hacyeye.

Igihe cya nimugoroba, abanyonzi bahagaze ku muhanda ndetse n'imodoka zirimo ziragenda zaka amatara, bigaragara ko hari n'ibiti bikikije umuhanda mu gihe cy'umugoroba.

Imodoka yagenewe gutwara imizigo, ikaba iteye irangi ry'umweru ndetse imbere yaho hakaba hari moto itwaye umugenzi, hakurya yaho hakaba hari ibiti birebire bikikije umuhanda, umunyamaguru uri kugenda mu kayira k'abanyamaguru ndetse akaba ageze ku kiraro cyambukiranya umuhanda kijya mu baturage.

Amapikipiki yagenewe gutwara imizigo ndetse akaba aparitse ku muhanda wa kaburimbo impande y'akayira k'abanyamaguru, harimo n'umumama wambaye ikanzu y'igitenge hakurya hakaba hari inyubako ndende ndetse n'insinga z'amashanyarazi n'ibiti hakurya y'izi nyubako.

Imodoka nini yagenewe kwikorera imizigo iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo ndetse n'izindi nyinshi, akayira kagenewe abanyamaguru karimo n'umuntu wikoreye indobo. Bigaragara ko uyu muhanda ukikijwe n'ibiti byinshi, igihe akazuba kari kwaka ndetse n'inyubako hirya y'uyu muhanda.

Imodoka nini yagenewe kwikorera ibisukika ariko byateza ibibazo, inyuma yayo hakaba hari amapikipiki menshi kugera mu muhanda wa kaburimo, hakurya yayo hakaba hari ibiti bikikije uyu umuhanda ndetse bigaragara ko ari igihe cya kumanywa.

Imodoka yagenewe gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange nini cyane iteye irange ry'umweru harimo n'utubara tw'ubururu bigaragara ko irimo iragenda, hakurya hakaba hari ibiti birebire ndetse n'amatara yo ku mihanda igihe gisa nkaho ari icya mugitondo akazuba kagiye kurasa.

Imodoka iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hakurya hakaba hari ubusitani bugizwe n'indabyo, ibiti ndetse bigaragara ko hari n'amapoto yikoreye amatara yo ku mihanda ndetse n'ibimenyetso byo mu muhanda n'ibyuma byagenewe gutangira ibinyabiziga ngo bitarenga umuhanda.

Umuhanda urimo ibinyabiziga, imodoka, amapikipiki, ndetse n'abantu. Bigaragara ko hakurya hari inyubako ndende, ifite inzugi ziteye amarange y'icyatsi ndetse ibikuta biriho amarangi y'umweru, hamwe na hamwe hasi hakaba hari imiryango iteye amarange y'umweru, bigaragara ko ari inzu z'ubucuruzi.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti birebire ndetse n'inyubako ndende igizwe n'ibirahure by'umukara, ikaba iteye amarange y'umweru, amatara yo ku muhanda, ipikipiki igeze mu kayira k'abanyamaguru ndetse bigaragara ko ari igihe cya kumanywa akazuba kari kwaka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka yagenewe gutwara imizigo ndetse n'amapikipiki n'umugabo uri kugenda mu kayira k'abanyamaguru ufite terefone, hakurya hakaba hari ibiti bikikije uyu muhanda ndetse n'ikiraro ku ruhande cyambuka kijya mu muhanda.

Imodoka iteye irangi ry'umweru ntoya, imbere yayo hakaba hari umunyonzi uhetse umugenzi, bigaragara ko iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hakurya hakaba hari ibiti birebire ndetse n'akayira k'abanyamaguru, byerekano ko akazuba kari kwaka rwose hakeye.

Imodoka yagenewe gutwara imizigo ifite itara ryo hejuru ndetse ikaba iteye irange ry'umweru, iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo. Hakurya hakaba hari ibiti bikikije umuhanda ndetse n'umuyoboro wagenewe gutwaramo amazi ndetse n'akayira k'abanyamaguru bigaragara ko ari igihe cya ku manywa akazuba kari kwaka.

Imodoka yagenewe gutwara imizigo y'imicanga n'amagararaviye ndetse ikaba iteye irangi ry'umutuku nyumayo hakaba ari imodoka ishinzwe gutwara abantu mu buryo bwa rusange iteranye ry'umuhondo hakurya hakaba hari ibiti byinshi bikije umuhanda ndetse n'inyubako bigaragara ko akazuba kari kwaka igihe cya kumananywa.

Ikinyabiziga cyagenewe gutwara abagenzi ku buryo bwa rusange, bigaragara ko kiri kugenda ninjoro, amatara ari kwaka, haba ayo ku muhanda ndetse n'ayo ku nyubako, bigaragara ko ari igihe cya nijoro.

Imodoka nini iteye irange ry'umutuku yagenewe kwikorera imicanga n'amagaviye ndetse inyuma yayo hakaba hari ibiti birebire bikikije umuhanda ndetse n'ikiraro cyambuka umuyoboro utwara amazi kinjira mu muhanda.

Umuhanda urimo imodoka imwe iri kugenda indi ikaba iri kuza ndetse n'abanyamaguru hirya bigaragara ko ari igihe cya kumanywa akazuba kari kwaka n'inyubako nyinshi, amatara yo ku mihanda ndetse n'ibiti bikikije uyu muhanda.

Imodoka ntoya itwara abagenzi ku buryo bwa rusange, ihagaze ahantu habugenewe ndetse n'ah'izindi ziparika hakurya hakaba hari umusozi w'ishyamba ryinshi ndetse n'abantu benshi bari inyuma y'izi modoka.

Imodoka zagenewe gutwara bagenzi kuburyo bwa rusange zihagaze ahabugenewe ndetse n'amatara acanira hano hantu zihagaze, hakurya hakaba hari umusozi uriho ibiti byinshi ndetse bikaba bigaragara yuko izuba riri kwaka ari igihe cya kumanywa.

Imodika nini yagenewe kwikorera imicanga n'amagaraviye, bigaragara ko irimo iragenda mu muhanda wa kaburimbo, imbere yayo hakaba hari umunyonzi uhetse umufuka, ndetse n'izindi modoka ziparitse ku ruhande, hakurya hakaba hari ibiti birebire ndetse n'ingo z'abaturage, ndetse n'akayira k'abanyamaguru gakikije uyu muhanda.

Imodoka ndende iteye irangi ry'umweru ndetse hakaba harimo n'uwundi muntu, ikaba yaragenewe gutwara imizigo nk'amasaka, ibishyimbo ndetse n'ibindi, hakurya hakaba hari ibiti birebire bikikije uyu muhanda ndetse n'itara ryo ku muhanda n'umushoferi utwaye iki kinyabiziga.

Imodoka nini yagenewe gutwara ibintu biremereye iteye irange ry'umweru ndetse ikaba iri mu muhanda nyabagendwa wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti birebire ndetse n'amatara yo ku mihanda ndetse n'umunyegare uhetse mugenzi we bigaragara ko hari n'ikiraro cyambukiranya umuhanda kijya mu baturage.

Imodoka yagenewe gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange, iteye irangi ry'umweru bigaragara ko harimo n'abagenzi, imbere hakaba hari ipikipiki ihetse umuntu ndetse n'ibiti bikikije uyu muhanda n'umuyoboro wagenewe gutwara amazi avuye mu baturage ndetse n'akayira k'abanyamaguru, hakurya hakaba hari inyubako nyinshi bigaragara ko ari mu mujyi.

Abantu bicaye mu busitani bwo ku muhanda ndetse bugizwe n'indabyo ngufi n'ibiti birebire by'imikindo. Ndetse hakurya hakaba hari inyubako ndende ifite ibirahuri by'umukara, ikaba iteye irange ry'umweru ndetse bigaragara ko ari ahantu abantu bafatira amahumbezi.

Ikibuga cy'umupira kigaragaza n'amazamu, hakurya hakaba hari ibiti birebire. Ni igihe cya mu gitondo akazuba katararasa ndetse bigaragaza n'urubibi rw'icyo kibuga aho kigiye kirangiriye.

Ibyapa bibiri byo ku muhanda ndetse n'umuhanda ukikijwe n'ibiti byinshi n'ibyatsi by'ubusitani hasi. Ibi byapa bikaba bigaragaza aho abanyamagura bambukira, ndetse n'ikorosi riri imbere baburira umuyobizi w'ikinyabiziga ngo agende yitonze.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku gusa ukomeye cyane cyo gukara kiri ku muhanda kigaragaza aho abanyamaguru bambukira, ndetse n'umuhanda urimo amapikipiki arikugenda ukikijwe n'ibiti birebire n'inzu ziri hepfo yawo bigaragara ko ari igihe cya ni mugoroba akazuba karikurenga.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru ikirangantego cy'umukara kereka ahantu imodoka ishobora kugera ikanyerera kikaburira utwaye ikinyabiziga ko agomba kujyenda gacye yitonze kugirango adahura nubwo bunyerere.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku, ubusobo bw'umweru, ikirangantego cy'umukara hakaba harimo umwana n'umugabo bigaragara ko uyu mugabo afashe umwana akaboko, byereka umuyobozi utwaye ikinyabiziga ko ahantu ageze ko hashobora kuba hanyura abantu yitonde agende gake.

Ibyapa bibiri aho kimwe kerekana ko ahantu umuyobozi w'ikinyabiziga ageze hari akayira k'abanyamaguru, ndetse ikindi kikerekena y'uko byemerewe kubisikana, hakurya hakaba hari ibiti birebire ndetse ikirere kikaba gikeye.

Icyapa cy'amabara y'umweru n'umutuku. Iki cyapa kiriho ifoto y'umugabo ufite igikoresho kimeze nk'igitiyo. Iki cyapa kirerekana ko imbere muri uwo muhanda, hari imirimo yo kuwukora iri kuhakorwa.

Ibyapa bibiri kimwe kigaragaza akamanuko gacuritse cyane, ndetse ikindi kigaragaza ko hano hantu hagurukira indege hakurya hakaba hari ibiti birebire ndetse ni ishyamba riri hakurya rikeye mu igihe cya kumanywa.

icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umuhondo, ikirangantego cy'umukara, bigaragara ko umuhanda ukomeje ariko hakaba hari undi uwushamikiyemo, inyuma yawo hakaba hari ibiti birebire by'ubusitani ndetse n'amatara amurikamo.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umutuku cyane, gifite ikirangantego cy'umweru, bigaragara ko ari icyapa kivunga ngo hagaraga cyangwa se ugende gake, babwira umunyabi, umuyobozi utwaye ikinyabiziga ko agomab kugenda gake ko imbere ye hashobora kuba hari ibyago.

Imodoka ihetse umuntu inyuma iri mu muhanda iragenda, n'abanyamaguru mu nkengero ndetse n'ibiti birebire mu nkengero; hari ahantu hapfutswe wagirango bari kubaka.

Inyubako nyinshi, zifite amabati y'umutuku, zikikijwe n'ibiti byinshi, ndetse n'inyubako zigeretse, bigaragara ko ikirere kirimo kirahinduka, cyenda kugwisha akavura.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nyinshi, hakurya hakaba hari inyubako ifite ibirahuri by'umukara, inzugi ziteye irangi ry'umukara ndetse inzu ikaba iteye irangi ry'umweru, bigaragara ko hasi haparitse imodoka nyinshi, insinga z'amashanyarazi zica imbere yayo ndetse n'ipikipiki ihetse umugenzi.

Umumotari uri ku'ipikipiki iri kugenda afashe igikoresho cyagenewe mu'itumanaho anatwaye, hakurya hakaba hari inyubako isakaje amabati y'umukara, iteye irangi ry'umweru ndetse ikaba ifite ubusitani imbere yayo n'umuhanda wa kaburimbo imbere yayo.

Inyubako iteye amarangi y'umweru, umukara, urugi ruteye irangi ry'umukara ndetse bigaragara ko hari ibiti bikikije uru rugo, akazuba kakaba kari kwaka ndetse n'imbere hakaba harimo ubusitani muri uru rugo.

Inyubako iteye amarangi y'umweru ndetse n'umukara, hejuru hakaba hari ibigega byagenewe gufata amazi ndetse n'ubusitani bw'ibyatsi n'indabyo ndende z'ibiti, bigaragara ko iyi ari inyubako ifite n'icyapa cyanditseho Kiya Pulaza, bigaragara ko akazuba kari kwaka.

Inyubako itewe irange ry'umweru ndetse ikaba izitiwe n'urugo rw'ibiti, imbere yayo hakaba haparitse umumotari utegereje abagenzi, bigaragara ko ari igihe cya ku manywa akazuba kari kwaka aho umuhanda wa kaburimbo urangiriye.

Inyubako ndende nyinshi zisakajwe amabati asa umutuku ndetse zikikijwe n'ibiti hakurya hakaba hari indi nyubako bigaragara ko ikiri kubakwa n'ibiti byinshi hakaba hari amagambo yanditse mu kinyarwanda ngo remera.

Umuhanda ukikijwe n'ibiti birebire ndetse n'akayira k'abanyamaguru bigaragara ko akazuba kari kuhaka ikirere gikeye, hakurya hakaba hagaragara ko hari n'ibindi bintu imirima ihingwamo.

Inyubako nyinshi ziganjemo izisakajwe amabati y'umutuku, ibiti byinshi bikikije izi nyubako, hakurya hakaba hari umusozi, ikirere kikaba kiri guhinduka, kikaba kiri kuzana umukara mwinshi wijimye, bigaragaza ko aha ari mu miturire.

Inyubako z'ubucuruzi ziteye amarangi agiye atandukanye, zometseho n'amakaro; ndetse bigaragara ko ari igihe cya mugitondo akazuba kari kwaka. Ibiti birebire ndetse n'amapoto yikoreye insinga z'amashanyarazi, imiryango ikaba ikinguye ndetse n'imyenda hanze, bigaragara ko ari inzu z'ubucuruzi bw'imyenda.

Inyubako ndende igeretse bigaragara ko ifite inzugi ziteye amarangi y'umukara ndetse yometsweho n'amakaro y'umweru, amarangi y'umuhondo hasi hakaba haparitse imodoka iteye irangi ry'umukara ndetse n'umuntu uri gutambuka hakurya hakaba hari ibiti birebire ndetse n'amatara yo ku muhanda hakabaho n'insinga z'amashanyarazi .

Ibiti byinshi bigaragara nk'aho ari ubusitani, imbere hakaba hicaye abantu babiri ndetse n'akayira k'abanyamaguru, n'ipoto ryikoreye itara ryo ku muhanda bigaragara ko akazuba karimo karaka, ikirere gikeye.

Inyubako ifite amabati y'umutuku, iteye irangi ry'umweru, amadirishya arimo ibirahure by'umukara, ndetse urugo rwubakishije amatafari ahiye bigaragara ko iyi nzu igeretse, ndetse n'insiga z'amashanyarazi ziri kuzana umuriro kur'iyi nzu.

Mu ikorosi ry'umuhanda wa kaburimbo. Imbere ku muhanda uzamuka, hari inyubako ndende cyane y'igorofa. Ku mpande z'umuhanda hakikije n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo urimo n'imodoka zishoreranye zikorera imizigo ndetse n'iminara igiye kwikorera insinga z'amashanyarazi, imbere yazo hakaba hari ipikipiki iriho n'umuntu mbese bigaragara ko ari n'icyapa kerekana ikerekezo cy'aho umuntu agomba kunyura n'ibiti bikikije uyu muhanda.

Imodoka yagenewe gutwara ibintu bijyanye n'imbuto ndetse n'ibindi, iteye irangi ry'umweru, iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hakaba handitseho ngo Rwanda Myuzirimu Komyuniti. Hakurya hakaba hari aho ibinyabiziga biza kunywera, ndetse hakurya hakaba hari ibiti birebire n'izindi modoka, harimo n'iya polisi.

Umuhanda wa kaburimbo bigaragara ko hari imodoka iteye irange ry'umukara irimo iragendamo, hakurya hakaba hari ibiti bikikije uyu muhanda ndetse n'amatara yo ku muhanda bigaragara ko ari igihe cya mu gitondo akazuba katararasa.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti, ndetse n'insinga z'amashanyarazi ziri guca hejuru, abantu bari kuwugendamo n'imodoka, bigaragaza ko ari igihe cy'umugoroba akazuba kari kurenga ndetse n'ibyatsi by'ubusitani bigiye biri ku mpande z'umuhanda.

Imihanda ibiri, umwe wo hasi n'undi wo hejuru ndetse n'urukuta rw'amabuye rufashe umuhanda wo hejuru, hejuru hakaba hari n'ibyuma bitangira ibinyabiziga cyangwa se abagenzi kugira ngo batagwa hasi, amatara yo ku muhanda ndetse n'ibiti byinshi bikikije uyu muhanda bigaragara ko ari igihe akazuba kari kwaka.

Umuhanda wa kaburimbo uri kwerekana akayira k'abanyamaguru ndetse n'amatara ari kwaka abuza abanyamaguru gutambuka, hakurya yaho hakaba hari ibiti bikikije umuhanda ndetse n'inyubako, amapoto yo ku mihanda yikoreye insinga z'amashanyarazi ndetse n'ubusitani bwo hagati mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ucuritse, bigaragara ko hari aho abanyamaguru bambukira, ibinyabiziga ariko biri kugendamo moto, imodoka..., ukikijwe n'ibiti bigaragara ko ari igihe cya mu gitondo akazuba karimo kararasa.

Umuhanda wa kaburimbo bigaragara ko ari igihe cya nimugoroba amatara akaba arimo araka, ndetse ugaragaza akayira k'abanyamaguru n'inzu ndende iteye irange ry'umweru, ibirahure by'umukara n'ibiti birebire n'akayira k'abanyamaguru gakikije uyu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amapikipiki ari kugenda ndetse n'imodoka, bigaragara ko imvura yari imajije kugwa hari ibizinga by'amazi ndetse n'akazu kaho abaje gutega imodoka bicara, ibiti birebire bikikije umuhanda mugihe cya mu gitondo akazuba katararasa.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti byinshi ndetse hakaba harimo n'amagare arimo aragendamo n'amatara yo ku mihanda.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo amapikipiki ndetse n'imodoka, utuyira tw'abanyamaguru ndetse n'ibiti bikikije uyu muhanda, amatara amurikira umuhanda bigaragara ko akazuba kari kwaka ikirere gikeye.

Umuhanda wa kaburimbo bigaragara ko ari imihanda itatu ariko yisukiye muri umwe, bigaragara ko hari n'amatara yo ku muhanda amurikiye umuhanda, hakurya hakaba hari imiturire myinshi ndetse bigaragara ko igihe ikirere cyahinduye.

Isoko rinini. Hakaba harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye bibitswe mu tubati. Bimwe muri ibyo bicuruzwa harimo imiti y'ibirahure y'ubwoko butandukanye; ndetse hakabamo n'amasabune y'amazi. Iri duka rikaba rifite amatara yaka umweru.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo amapikipiki, ndetse hakurya hakaba hari ibiti byinshi, n'amapoto yagenewe kwikorera insinga z'amashinyarazi, ndetse n'amatara yo ku mihanda, n'inyubako zikikije uyu muhanda, bigaragare ko ari igihe cy'akagoroba izuba ririmo rirarenga.

Umuhanda wa kaburimbo bigaragara ko hari n'aho urangiriye, hakaba harimo imodoka ihagaze n'indi irimo irazamuka iteye irange ry'umutuku yikorete umuzigo, ndetse n'inyubako n'insinga z'amashanyarazi ziri gutambuka ibiti bikikije uyu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugaragaza akayira k'abanyamaguru ndetse n'imodoka zirimo zirazamuka hakurya hakaba hari ibiti bikikije umuhanda amatara yo kumuhanda ndetse n'ibiti byikoreye insinga z'amashanyarazi n'abantu bari kureba ibi binyabiziga.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amapikipiki menshi ndetse n'ibiti bikije umuhanda n'amatara yagenewe kuyobora ibinyabiziga imihanda byerekezamo mugihe cya kumanywa ndetse n'akayira k'abanyamaguru n'ibyatsi byegereye akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo bigaragare ko ari umuhanda umwe uciyemo imihanda ibiri, ndetse n'urukuta rwamabuye rukikije umuhanda, ubusitani buri ku muhanda ndetse n'ibiti birebire bigaragara ko ari igihe cya mu gitondo igihe rirasa.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga, imodoka ndetse ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi, akayira k'abanyamaguru, amatara yo ku mihanda, inyubako nyinshi zitandukanye. Bigaragara ko ari igihe cya ku manywa, akazuba kari kwaka.

Umuhanda wa kaburimbo bigaragara ko ucuritse mugihe akazuba katari kwaka, imodoka zikaba ziri kugenda, ukaba uri kwerekana aho abanyamaguru banyura bambuka umuhanda, ndetse n'ibiti hakurya n'imodoka zagenewe gutwara abagenzi kuburyo bwa rusange.

Umuhanda wa kaburimbo bigaragara ko harimo imodoka ndetse n'umunyamaguru uri kwambuka mu kayira k'abanyamaguru, amatara yo kumihanda ndetse n'ibiti bikikije uyu muhanda hakurya hakaba hari inyubako ndende bigaragara ko ari mu gihe cy'akagoroba akazuba kari kurenga.